Ikigo k'imari gitanga serivisi z'amafaranga, bakabitsa, bakabikura cyitwa Banki ya Kigali, kegerejwe abaturage, kiri ahantu ubona yuko atari mu mugi cyane.

Abakora ibijyanye n'amabanki, abakora ibijyanye n'irembo, batanga ubufasha mu buryo bw'ikoranabuhanga, begererwa abaturage, akazu kubabatse mu buryo bwiza kariho imitako ya kinyarwanda, begereye abaturage mu bikorwa bifitanye isano n'iterambere.

Icyuma gitanga amafaranga, aho umuturage akoresha ikarita yabugenewe akayishyiramo, agashyiramo ibisabwa byose, akabona amafaranga, atiriwe ajya gutunda umurongo ku mabanki.

Igice gisa nkaho ari ik'icyaro hegerejwe serivisi zitumanaho turahabona umukozi wicaye wambaye ikirango k'ibyo akora, ni ibigo bibiri ikigo cya eyateli gishinzwe itumanaho n'icya emutiyeni byose bidufasha kwakira, kohereza, guhamagara, guhamagarwa.

Akazu gatukura gakozwe mu byuma kariho ibirango by'ikigo cy'itumanaho cyitwa Eyateri gishinzwe gufasha abantu bagahererekanya amakuru mu buryo bworoshye, ni ahantu hasa nkaho ari hari icyaro.

Umuturage wegereye icyuma gitanga amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bitabaye ngombwa yuko ajya muri banki imbere ngo avugane n'umukozi wayo, akajya ku cyuma agashyiramo imibare igenewe kujyamo amafaranga akaza.

Umugabo wicaye atuje ariko yambaye umwenda w'akazi, umwenda w'umuhondo ibirango ni ikigaragaza yuko ari uwo mu kigo gitanga serivisi y'itumanaho, atanga uburyo bwo guhamagara, uburyo bwo kohererezanya amafaranga no kuyakira.

Akazu gatangirwamo serivisi y'itumanaho, aho umuntu ashobora kubagana bakamufasha kubona uburyo bwo kubona amafaranga cyangwa kuyabitsa. Iki ni ikigo k'itumanaho, Airtel kegereye abaturage kugira ngo kibahe uburyo bwiza, babonamo serivisi bitabagoye.

Ibikorwa bya buri munsi bisanzwe gutwara abagenzi, gutega ibinyabiziga, abantu ubona bari mu bintu bigiye bitandukanye n'ibirango by'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN ibyo byose ni byo biri gukorwa.

Abantu benshi biganjemo abafite uruhu rwera, abitwa abazungu, bahuriye ahantu hari imirimo y'ubuhinzi bigaragara ko ari abantu bishyize hamwe bagakorera mu matsinda, bagakora umurimo w'ubuhinzi, urabona basuwe n'abantu b'ingeri zose.

Ubworozi bwa kijyambere. Inkoko zoroye mu buryo bwiza, Muburyo zidapfa kugira ikibazo, hakaba hari n'umuntu ushinzwe kuzitaho ubona ko yabyambariye. Izi ni inkoku nyinshi, kandi ziri ahantu hatoya.

Umugore ufite indangururamajwi, ufite telefone mu ntoki, wambaye umupira w'amaboko magufi w'ibara ry'ubururu urimo ikirango cy'igihugu cyacu, ari ahantu hatakishijwe amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Uyu ni umurima imbuto z'inanasi, imbuto zisa neza, zitoshye, izi ni imbuto zizwi ho kugira amafaranga menshi kandi zikundwa, zinagirira akamaro umubiri wacu, urabona ziratoshye zirasa neza.

Iiyi foto iragaragaraho umuryango w'ikinyabiziga ariko handitseho imibare, akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego. Uyu ni umubare uzwi cyane ku bantu bakoresha umurongo wa Emutiyeni, ni umubare ukwinjiza muri serivisi zose za Emutiyeni ikigo gishinzwe itumanaho.

Ihema rinini risa neza ry'amabara y'umweru n'umuhondo ryicayemo abantu benshi cyane harimo bambaye impuzangano ku gice cyo hejuru, abambaye imipira y'ubururu, abambaye imikara ubona ko hari aho baturutse bagahurira hamwe hari icyo bagambiriye kizima.

Ababyeyi babiri, abagore babiri, ubona bari hamwe bari ahantu hakorera abantu benshi, ariko bari gukora umurimo umwe, bihangiye icyo gukora, bari gukora umurimo w'ubudozi, bari gukora imyenda ikozwe mu budodo.

Abayobozi bo mu myanya yo hejuru bateranye, bari kuganira ku mikorere y'amabanki ndetse n'amatsinda matoya, amakoperative n'uburyo bashobora kubafashamo, kugira ngo biteze imbere.

Umuhanda mwiza hepfo na ruguru ukikijwe n'ibyapa biranga urunywero, utubari aho abantu bashobora kwicara bakaruhuka bakaganira bakanywa ibinyobwa byose bifuza, hirya hari ikirere cyiza cyane, ikirere kirakeye.

Inzoga nziza, inzoga zihenze, inzoga zifite agaciro, inzoga twemera zikomeye, aka kabari ni keza gafite ibicuruzwa bihenze cyane.

Umugabo wicaye aduteye umugongo, ari ahantu mu runywero, ari kwica icyaka, ari gusoma gacupa, anaganira n'umuntu hirya, bumva akaziki, hari ibikoresho byose bibaranga za televiziyo radiyo.

Iduka riciriritse ritereza abaturage ibikomoka ku biribwa, hano hari ibikomoka ku ifarini, hari amandazi urubona ko banacuruza amata ni akabutike gaciriritse ariko gafasha abaturage bakabona, iby'ibanze hirya hari igikoresho cyifashishwa.

Isoko cyangwa ahantu hacururizwa imitako ikozwe mu buryo gakondo, ibikomo bikoze mu gitenge, ibikapu bikoze mu gitenge n'imyenda ikozwe mu bitenge ikirango cy'umuco nyarwanda n'umuco nyafurika.

Ahacururizwa impapuro z'isuku nk'izifashishwa mu kwihanagura umwanda mu kwifashisha mu gihe amafunguro ari gutangwa n'ibindi byinshi bikenerwa n'izi mpapuro ziri hano zicururizwa.

Muri butike ahantu ubona ko ari mu masaha ya nijoro, ahantu ubona hacuruzwa ibintu bigiye bitandukanye, hari ikarito ibikwamo amajyane, icyayi cy'u Rwanda, amajyane meza ubona yahawe n'ikirango, ikirango kigaragaza ubuziranenge.

Ahacururizwa ibiribwa turabona ibikomoka ku matungo magufi inkoko. Turahabona amagi atetse, turabona amacapati, ibikomoka ku mafarini. Ibi ni ibintu byose bishobora gucuruzwa umuntu akiteza imbere.

Iri ni iduka ririmo umucuruzi ni umugore, iduka ririmo ibintu byinshi, ririmo inyanya, ririmo imigati, amasabune n'ibindi byinshi biba bigize botike n'ubwo ari ahantu mu cyaro.

Imifuka myinshi igera ku icyenda yashyizwemo yuzuyemo imyaka igiye itandukanye, abaturage bari imbere yayo, hari akamodoka ubona kagiye gutwara iyi myaka.

Imbaga y'abantu benshi bambaye neza abambaye amakote, abambaye amakanzu yo ku rwego rw'idni, inyuma urusengero runini cyane ruriho ikirango cy'umusaraba, birashoboka yuko ari inyubako yatashywe ruriya rusengero rwuzuye cyangwa ikindi gikorwa cyari cyabahuje cy'urusengero.

Urusengero runini cyane rurerure rusakaye neza ariko rutaruzura ruherereye Rwagitima, ahantu mu Burasirazuba.

Icyumba baryamamo gishashe neza kiriho amashuka afite isuku, hari siripa, hari inzitiramibu izinze neza hejuru ni icyumba gisa neza gisukuye.

Ahantu heza cyane mbere na mbere hari amatara meza y'amabara y'ubururu, ay'umuhondo, ubona ari hagari, hatatswe ibintu by'ibiti, hari ahantu ho kwicara heza, ahantu ubona wasohokera ukaruhuka.

Abagabo n'abagore benshi bahagaze ku mirongo, harimo n'abicaye, bari kuri hotel yo ku ya Nyagatare bigaragara y'uko hatashywe ari inyubako nshyashya yuzuye, batashye bishimye ariko banambaye agapfukamunwa.

Icyumba cyiza uburiri bushashe neza buriho inzitiramubu ikoranye umuti, ahantu hatuje hari amarangi meza aha ni ahantu umuntu wese ushaka kuruhuka ushaka ahantutu aruhukira ashobora kujya akaruhuka.

Ameza ateguye neza meza ariho ibinyobwa bisa neza, ibiryo bisa neza byinshi ubona ko biryoshye, hirya hari ubusitani bwiza aho kwicara ukaruhuka, iyi hoteli ni nziza cyane.

Ahantu hasa neza cyane, ahantu ubona ko hiyubashye, hatangirwa serivisi z'abaza babagana, abashaka kurara bashaka amacumbi, abashaka kurya bakarira ahantu heza, aha ahantu harasa neza, hari intebe nziza, imitako myiza, amatara meza.

Inyubako nziza zimwe mu zigezweho, yubakishijwe amatafari meza aconze neza agezweho, ni hari amatara meza, intebe nziza, ingazi zihari ni ingazi ngufi, umuntu wese ashobora kurira agana hariya kuri ariya meza no kuri turiya dutebe tureture.

Icyumba gisa neza gishashe neza kiriho imitako, kirimo amatara meza, kiriho aho kuganirira heza, iki cyumba ni cyiza n'icyo muri hoteli.

Icyumba kimeze neza kirimo televiziyo, kiriho udutebe, ameza ahantu umuntu ashobora gukorera akazi ke yisanzuye, hirya hakaba intebe umuntu ashobora kuruhukiramo igihe ari kureba televiziyo ni ahantu hasukuye.

Iyi foto iri kugaragaraho ikirango ni ikiranga hoteli yitwa Sheratoni, iki kirango kiriho byose bikorerwa muri iyi hoteli y'ibinyobwa, ibiribwa n'izindi serivisi zose batanga muri iyi hoteli.

Inyubako nziza cyane igeretse inshuro ebyiri, ifite aho abahagenda basiga imodoka zabo, ifite imirasire y'izuba hejuru, nyubakobona yuko rwose ibiranye no kwakira abantu, bakayiraramo bakayisohokeramo.

Umwinjiro w'inyubako zikomeye zubatse neza ndende, umwinjiro na wo wubatse wubakishijwe amabuye ubona ko ukomeye ufite ikaro rikomeye.

Aha ni ahantu bakora imirimo yo kwakira abantu no kubagaburira, bafite uburyo bwabo bakiramo abantu bakabacurangira indirimbo, bagakoma ingoma, bakoresheje ingoma gakondo n'imirishyo.

Ahantu mu isoko hasi harambuye ihema, hari ibitunguru byiza, hari intoryi batoranyije izigisa umweru izatangiye gutukura, hakaba n'imiteja hirya.

Ahantu ku isoko ry'imbuto, hari imbuto imineke isa neza yahishije, umuturage ategereje abaguzi, ni ahantu hasa nk'aho hatari umujyi, ariko abantu barakora, barakora ibikorwa bigiye bitandukanye.

Mu isoko ahantu hacuruzwa imyenda, amasakoshi, n'ibindi byinshi, gusa hano kuri iri hema hari imyenda, cyane cyane iyo by'abana batoya, ibishora babatwikira, ibyo babatwaramo, utwenda babambika by'isuku babambika kugira ngo batiyanduza.

Agasoko gaciriritse ariko ubo kagendwaho n'abantu benshi, kari ku nzira ahantu hacururizwa imyenda itandukanye y'abagore niyo yiganje, aha rero ni uburyo abantu bashobora gukurura abakiriya cyane cyane mu bice by'ibyaro.

Agasoko k'imyenda kari ahantu mu cyaro, hari imyenda itandukanye ariko hakaba n'ibikapu bishyashya na byo ubona ko biri kugurishwa, hakaba hari n'abacuruzi bacururiza ahantu haciriritse.

Umusaruro mwinshi wibigori byanditswe ku zuba byarumye, hirya imashini ivugura iri kubivungura, uyu ni umusaruro ushimishije hirya hari ubwanikiro ahanikwa ibigori ahantu heza cyane amatsinda ashobora gukorera.

Abacuruzi bari gucuruza imyenda, mu buryo butemewe, ubucuruzi bwo mu muhanda igihugu kikomeje guca, umunsi ku munsi kuko bahawe amasoko.

Mu isoko ahantu hari abantu benshi, urujya n'uruza rw'abantu, abari kugura imyenda, abari gucuruza, umusore uri gucuruza ibikapu, bihahirwamo n'ibindi byinshi.

Hirya amagare hino umugabo ufite igiti gisesetsemo umunzani hakaba imifuka myinshi irimo umusaruro runaka ubona ko gahunda bafite ari ugupima ibintu biri muri uyu mufuka.

Ahantu hari akavuyo ariko ubona ko bacururiza umunyu bita Urugera, uyu ni umunyu batekesha bashyira mu bishyimbo cyangwa mu isonmbe kugira ngo bishye vuba, uyu ni umunyu nanone urimo umuti kuko iyo uwunyweye mu mazi woza mu nda.

Mu isoko hateraniye abantu benshi, umugabo uri kugura indagara zisutse ku nkoko hirya, hari utuzu tw'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, MTN. Hirya hakaba n'abandi bantu benshi bari kugura.

Isoko ry'imboga, ahantu mu cyaro ariko hari ibicuruzwa bisa neza, inyanya zitoshye, ibihaza, amananasi, imbuto, imboga, abantu benshi bagiye batandukanye, bateraniye muri iri soko.

Isoko ry'imyenda, ririmo imyenda igiye itandukanye, yiganjemo iy'abagore, turi kubona ibitenge, indi myenda, yihariye ku bagore, amashakoshi y'igitsina gore, iri ni isoko ry'imyambaro, gusa.

Izi ni ihene, ihene rwose nziza, bazita musheru, izi zirashorewe zijyanwe kugurishwa kugira ngo uyu muturage hagire ikindi kintu akoresha ayo mafaranga nk'umuntu wari woroye itungo.

Iri ni isoko ricuruza ibintu by'ubukorikori, ibintu by'ubugeni turabona ibikoreshejwe intoki, ibyinshi bikoreshejwe intoki, bikozwe n'amaboko y'abantu, hari ibikapu bikozwe mu bitenge, hari ibibumbano bikozwe mu biti, hari ibintu byinshi bya kinyarwanda.

Agasoko gasa nk'aho ari ako ahantu mu cyaro kuko urabona imbuga cyangwa mu muhanda harambuye inyanya, amashu abantu bari kubica hejuru imyeyo, matora ni ahantu hari akavuyo ariko ubona ko hari ibikorwa byo kwiteza imbere.

Ahantu heza cyane hasa neza hafite ishusho nziza imitako myiza, indabo nziza, intebe nziza, aha n'ahantu heza hatangirwa amafunguro n'ibinyobwa ku baje bahagana.

Ahantu hateguye neza cyane, intebe ziri ku murongo, ameza yegeranye atatseho amasahane, ibirahuri, amacupa y'inzoga zihenze, hirya hari izindi nzoga nyinshi zitondetse ku murongo, ahantu ubona ko wajya ugashira inyota.

Ahantu hamwe mu hatangirwa amafunguro heza batanga ibyo kurya, bagatanga ibyo kunywa bisukuye bisa neza bibereye ijisho.

Ahantu heza cyane, ahantu hari intebe nziza, hari amabara meza, amatara meza, hatatse neza, ni ahantu hatangirwa amafunguro, hatangirwa ibinyobwa, ni ahantu umuntu ashobora gusohokera akaruhuka mu mutwe.

Ikinyabiziga moto gitwara abagenzi hariho umushoferi wa moto utwayeho umugenzi bari kugendera mu muhanda mwiza ufite isuku kandi n'ikinyabiziga cyabo kirasukuye.

Umuntu utwaye ikinyabiziga cya moto ,ahantu mu muhanda ukoze neza, ufite igice cy'abanyamaguru gusa ,hakaba naho kugenda ibinyabiziga, ahantu heza.

Umushoferi ubikora mu buryo bw'umwuga, utwara moto, atwaye umugenzi, bose bujuje ibisabwa, bambaye ingofero z'ubwirinzi, ikinyabiziga ke gifite ikirango, bari gutwarira mu muhanda mwiza.

Ahantu mu muhanda umutwazi w'igare ahetseho ibitoki byinshi cyane, ahantu mu gahanda gasa naho ari ak'icyaro kegereye amashuri.